Iyi foto iragaragaza umuntu ufite urupapuro mu ntoki ndetse n'ikaramu hari ibintu ari kwandikaho, hirya ye hari abandi bantu batatu, umwe yambaye ingofero y'umutuku, undi yambaye ishati y'umweru n'ijiri itukura, undi wo hirya yambaye imyenda y'umukara.